Abana bane bari kumwe b'abanyeshuri bari kugenda mu nzira bisa nk'aho bavuye ku ishuri cyangwa se bagiyeyo, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'amakabutura y'umweru, barimo baragenda baganira ku masomo yabo.

Umwana wambaye ishati, wifashe mu kiganza wasetse, inyuma ye ku gikuta hari igishushanyo cy'umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi wakandagiye kuri kandagira ukarabe iriho akabido k'umuhondo, urimo urakaraba intoki ze.

Ikigega gifata amazi y'imvura gisa umukara cyegeranye n'inzu ndende, ifite amabati y'ubururu ikigega gifata amazi y'imvura, ni byiza ko kiba kiri ku nzu bityo kugira ngo amazi y'imvura ye gupfa ubusa kandi abe atatwara n'inzu.

Abarimu bigisha abana biga mu mashuri y'incuke bakoresha amabara agiye atandukanye kugira ngo bazamure ireme ry'uburezi bw'aba bana, harimo ibikoresho biba bifite ibara ry'ubururu, umuhondo, oranje n'icyatsi bibafasha gukangura ubwonko bw'abana bigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru n'umukara, bari ku by'icungo ndetse inyuma yabo hari amashuri bigiramo afite inzugi n'amadirishya bisize irange rigiye ritandukanye iry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Aharererwa abana b'inshuke, hari ishuri rishushanyijeho ikarita iri mu ibara ry'icyatsi umuhondo n'ubururu ndetse zifasha abana kwiga ndetse no kumenya amabara agiye atandukanye n'imiterere y'isi muri rusange.

Icyanya ubona ko cyahariwe kuzananwamo abana bakahishimira, bakirisha kandi bakoresha ibikoresho bitandukanye byabagenewe bityo kugira ngo bishime, hari abantu batandukanye barimo abana ndetse n'abantu bakuru baba bazanye abana babo aho hantu.

Abana bari mu marerero bambaye udupira tw'umuhondo bari kumwe n'abantu bakuru bambaye imyenda y'icyatsi, bakaba bari kubafasha gukina imikino itandukanye kugira ngo babafashe mu gukuza ubwonko bwabo.

Abana b'inshuke bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'ubururu, bari mu byatsi bari gusimbuka bishimye, kandi hagati yabo harimo umwarimu wabo uri kubafasha kubyina ndetse hirya hari amahema afite ibara ry'umweru.

Abana bicaye hamwe mu ishuri, bicaye ku ntebe bafite amakayi imbere yabo barimo barandika, iruhande rwabo kandi hari ibikapu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bambaye kasike mu mutwe, imipira n'ingofero.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite inkingi ndetse n'imitambiko isize irange ry'umuhondo, iyo nyubako ifite amabati kandi inzugi zisa ubururu, ingeretse rimwe, yegeranye n'izindi nyubako.

Inyubako ngari iteye irangi ry'umuhondo ifite urugi runini ndetse n'amadirishya y'ibirahuri, iyo nzu imbere yayo hejuru hakaba hari icyapa kinini ndetse mu mbuga yayo hakaba harimo n'ibindi byapa bitandukanye.

Icyumba giteye irangi ry'umuhondo. Ukaba ubona ko cyahariwe ikoranabuhanga kuko kirimo intebe z'imikara n'ameza ateretseho za mudasobwa nyinshi zitandukanye.

Inyubako ndende cyane, ifite inzugi n'madirishya bifatanya by'umukara. Isakaje amabati y'ubururu kandi izengurukishije utubara tw'umuhondo. Imbere yayo hari umuntu uhahagaze wambaye ipantaro y'umukara. Ubona ko iyi ari inyubako yagenewe kwigirwarwamo.

Kera ba sogokuru na ba sogokuruza bakundaga kwicara bakaganiriza abuzukuru babo ku mateka yaranze Igihugu cy'u Rwanda. Bakababwira ku mateka y'abami bayoboye u Rwanda, ibyabaranze ndetse n'ay'abandi bantu bagiye babaho nk'intwari mu mateka y'u Rwanda.

Intama cyangwa se ihene, ni amwe mu matungo yo mu rugo magufiya, nayo iyo umuntu ayafite biramufasha kuko akugoboka mu gihe uhuye n'ikibazo kandi ibiyakomokaho, bishobora gufasha, kugira imirire myiza.

Icyapa kigali kiri ku nzu yubakishije amatafari, icyo cyapa kirasa umweru ariko cyandikishijeho amagambo ari mu mabara atandukanye, mu rugero hari amagambo manini ari mu ibara ry'umukara, hari andi asa icyatsi ,hari andi asa ubururu, ashushanyijeho kandi idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abana barererwa mu kigo cy'ishuri cya Matimba, bavuga ko bahakura ubumenyi bwinshi kandi bwiza bwizewe, bukenewe ku isoko ry'umurimo, kandi buzabafasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu muri rusange. Mu kigo cyabo, harimo ibiti by'amoko agiye atandukanye ndetse n'amazu ateye irangi ry'umweru n'icyatsi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu kuzamura ubumenyi ndetse n'ubwenge bw'abana biga mu mashuri abanza, bigiye biri mu mabara atandukanye hari ibifite ibara ry'umutuku, ubururu, umweru ndetse n'ayandi.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, bakoresha ibikoresho byinshi bitandukanye kugira ngo bakangure ubwonko bw'abana. Harimo n'imibare ibagiye iri mu mabara atandukanye, ndetse n'ibishushanyo bibakangura ubwenge.

Ikigo cy'amashuri abanza gisize irangi ry'umweru ndetse gikikijwe n'ibiti kandi gifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure asize irange ry'umweru, hagiye hariho imibare ndetse n'inyuguti zifasha abana kwiga neza.

Ni byiza ko ababyeyi batoza abana babo kugira isuku, haba mu rugo cyangwa se n'ahandi hose baba bari. Ni byiza ko tubungabunga imigezi itwara amazi kuko ishobora kuba amasoko y'amazi y'abantu bari kure cyangwa se hakaba ariho amatungo ashobora kuba yakuhirwa.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, bambaye amataburiya ndetse harimo abagore n'abagabo, inyuma yabo hari ishuri kandi rikikijwe n'ibiti byinshi by'amoko agiye atandukanye.

Umwana ukiri mutoya cyane wambaye umupira urimo ibara ry'icyatsi ndetse na keru, ubona ko bamuhaye agati arimo arashushanyije bityo kugira ngo akomeze yiyungure ubumenyi bwe akiri mutoya.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino itandukanye, harimo nk'imipira yifashishwa mu mikino y'amaguru, harimo imigozi isa umutuku, ubururu, umuhondo yo gusimbuka, harimo imipira yifashishwa mu yindi mikino ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Abana b'abanyeshuri ubona ko barimo barinjira mu muryango werekeza mu kigo cy'amashuri aho bagiye gufata uburezi ndetse n'amasomo atandukanye, uwo muryango winjira muri icyo kigo urasa ubururu.

Inyubako y'igikorwa remezo ubona ko yubakiwe kwigirwamo, ikaba igeretse rimwe ifite inzugi n'ibyuma bikikije amabaraza by'icyatsi, iteye kandi ku nkingi zayo ibara ry'umweru. Ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, bakoresha imfashanyigisho zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kuzamura ireme ry'uburezi ku bana bigisha. Biga mu ndimi zigiye zitandukanye Icyongereza ndetse n'izindi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga cyangwa se no mu gukora ibindi bintu bitandukanye byaba nk'ubugeni cyangwa se n'ibindi, harimo nka kereyo zifashishwa mu gushushanya, harimo utuntu twifashisha mu gusiga amabara, harimo umukasi, harimo amarati aca umurongo ndetse n'ibindi.

Ibitabo bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abarimu mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, harimo igitabo cy'umwaka wa gatatu k'ikinyarwanda kiriho abana bicaye ku ntebe b'abakobwa ndetse n'umuhungu, inyuma yabo hakaba hari umwarimu.

Ibintu bitandukanye bigaragara hano byifashishwa mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Harimo nk'inkweto, ipantaro n'ijipo byambarwa, hakabamo n'ingofero. Harimo radiyo twifashisha mu kumva amakuru. Harimo umuneke nk'urubuto abantu bashobora kurya, harimo isahani n'ibindi.

Aha ubona ko ari mu ishuri cyangwa se mu rusengero, hicayemo abantu bambaye imyenda yiganjemo, umweru, ubururu, imbere yabo hagaze umuntu wambaye ishati irimo amabara y'umuhondo n'umukara, urimo urabaganiriza.

Abantu ubona ko bicaye hamwe bitabiriye umuhango runaka, bicaye mu ihema risa umweru, imbere ririho udutambaro twakoze ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, abo bantu kandi bambaye imipira yiganjemo ibara ry'icyatsi n'abandi bambaye imyenda y'imikara n'umweru, bicaye ku ntebe kandi z'imyeru.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Igiye isize irangi ry'umuhondo ku mitambiko yayo, ifite inzugi n'amadirishya by'ubururu. Ikaba igotesheje urugo rw'ibyuma rusa umutuku.

Abana bigaragare ko ari abanyeshuri bambaye imyenda iri mu mumabara y'ubururu ndetse n'umukara. Bamwe baricaye mu gihe abandi bahagaze inyuma yabo. Imbere yabo hari umugabo wambaye agapira k'umukara ubona ko hari ibintu arimo arabatoza.

Abana b'abanyeshuri batonze umurongo munini hagati mumuhanda wigitaka ukikijwe n'ibiti binini, bambaye impuzankano y'ubururu hejuru ndetse n'amapantaro arimo amabara y'ubururu n'umukara, hakurya imbere yabo hari abandi bana bambaye imyenda y'umuhondo.

Abanyeshuri bicaye hamwe bambaye impuzankan y'umweru, bicaye ku ntebe zimbaho. Imbere yabo ku meza iri hagati yabo, harimo amasahani ateretseho ndetse n'utubase turimo ibyo kurya. Bari mu nzu nini cyane bahuriyemo bose.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'imipira y'ishuri ry'icyatsi bakaba bamwe bicaye ku ntebe z'ibiti abandi bahagaze, inyuma yabo hari icyapa bandikaho.

Ikigo cy'amashuri cya segonderi, muri iyo nyubako harimo abubatsi bagiye batandukanye, baje kwagura imirimo yo kubaka iryo shuri, inyuma yabo hari amadirishya asize irangi ry'ubururu ndetse arimo n'ibirahure.

Abana bicaye mu ishuri , ubona ko barimo bariga bicaye mu ntebe z'icyatsi , imbere yabo hari ameza manini ateretseho za mudasobwa, barimo barakoresha , rero kwiga biteye imbere bikoresheje mudasobwa ni ingenzi ,bitewe n'igihe tugezemo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu bijyanye no kwihangira imirimo, bambaye impuzankano y'ibisiti bifite ibara ry'ubururu kandi inyuma yabo hari intebe bari bwicareho, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abana benshi biganjemo ab'abakobwa, bambaye impuzankano yabo bakaba bari mu nzu y'urusengero yubakishije amatafari ahiye, aho na bo baba bitabiriye isengesho.

Itsinda ry'abanyeshuri bifotoje bari hamwe bamwe barasutamye abandi bahagaze inyuma yabo bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'amashati y'umweru, inyuma yabo hari inzu nini ifite amabati y'umweru ubona ko ariyo bigiramo.

Abantu bari mu cyumba kigirwamo giteye irange ry'umweru gifite amarido kandi y'umutuku, bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru bafite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, harimo nka mudasobwa ibyo bifashisha bagaragaza amashusho mu buryo bugari n'ibindi.

Abana bateraniye hamwe bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo hari ameza manini ariho impapuro, abo bana bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umukara, umweru ndetse n'umuhondo.

Itsinda rya'bantu bahagaze hamwe harimo abambaye amajire n'abandi bigaragara ko aribo bashinzwe imyubakire y'izi nzu zibari iruhande zubabakishije amatafari ahiye zifite amadirishya y'ubururu.

Abana baje ku ishuri bicaye mu ntebe z'imbaho, imeza ziri hagati yabo hariho amakaye, mu ruhande ruri hakuno imbere yabo ahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite ikaramu uri kubafasha.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, harimo abahagaze bazamuye amaboko ndetse hari n'abandi bicaye bamwe barunamye kandi ahantu bari hari igiti kinini cyane gifite amashami menshi.

Umubyeyi waje gusura umwana we ku kigo cy'amashuri yisumbuye, hari amashuri yubakishije amabati afite ibara ry'umutuku, ndetse inzugi zayo n'amadirishya, zisize irangi ry'ubururu. bakikijwe n'indabo.

Inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umweru ku nkingi ndetse n'imitambiko. Ikaba kandi isize irangi ry'ubururu ku nzugi, ku mabati no ku byuma bikikije agasima kayo, ikorotirije ibyuma bisize irangi ry'umutuku.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku, iteye irangi ry'umweru, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, imbere yayo mu mbuga hari inzira z'amapave ndetse n'ubusitani bunini buteyemo indabyo.

Itsinda ry'abantu barangije amasomo yabo muri kaminuza, bambaye amataburiya cyangwa se amakanzu y'umukara mo imbere bambayemo amakoti y'ubururu ndetse n'amashati y'imyeru, bateye ingofero zabo hejuru.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu nzu iteye irange ry'umweru baje mu nama, bicaye mu ntebe imbere yabo hari ameza manini bagiye baterekaho ibikoresho byabo birimo mudasobwa, amakayeyi, telefone, n'uducupa tw'amazi.

Kimwe mu bintu kaminuza zitaho, ni ibyumba byigirwamo n'abanyeshuri ndetse bagerageza gushyira nimero ku bikuta cyangwa se ku madirishya ndetse n'inzugi kugira ngo abanyeshuri batayoberwa, aho bagomba kwigira.

Abanyeshuri biga muri kaminuza usanga baba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ababa bafite ibikapu batwaramo amakaye yabo ndetse na za mudasobwa, kandi basabwa kugira isuku kugira ngo babere ikitegererezo abandi.

Ubumenyi abanyeshuri bakura muri kaminuza bubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bwo hanze y'ishuri, ndetse hari inyubako nziza zifite ibara ry'umweru, kandi n'amadirishya yazo ni ibirahure, hari n'ubusitani bwiza bakoresha mu gihe bari kuruhuka.

Urubyiruko rwateraniye ahantu bicaye bambaye imipira y'imyeru ubona ko bari mu ihema ry'umweru, imbere yabo hari ameza maremare y'umweru ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ubona ko bisa n'aho bari bitabiriye amahugurwa.

Inyubako iteye irange ry'umweru isakaje amabati y'umutuku, ikaba ifite imbuga nini y'ubusitani burimo ibiti by'imikindo, gereveriya ndetse n'ibindi.

Umugabo wasetse, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umutuku, ahagaze hagati y'ibihande bibiri byicayemo abantu, bigaragara ko barimo barandika, bafata amasomo yabo. Uyu nguyu akaba ari mwarimu wabo.

Imodoka y'imbangukiragutabara iparitse mu mbuga nini yubakishije amapave, iyo modoka iri mu mabara y'umweru, ikaba ifite ipine inyuma ry'umukara, iruhande rwayo kandi hakaba hari umuntu uhahagaze, imbere yayo hari ibiti binini cyane bifite uturabo tw'umuhondo ndetse n'urugo rw'ibyuma.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara uri kumanuka kuri esikariye, iruhande rwe hari inzu nini iteye irangi ry'umweru, ifite amadirishya manini y'ibirahure bibonerana kandi hirya biragaragara ko hari ubusitani.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu yakoze mu kiganza kandi anahereza impano undi umuri iruhande wambaye amakanzu akunda kwambarwa n'abantu barangije amashuri yabo muri za kaminuza, akaba arimo amushimira kubwo igikorwa k'indashyikirwa yagezeho.

Imirimo y'amaboko itandukanye nk'ubukorikori n'ubugeni na yo ishobora kuba yafasha kandi ikaba yateza imbere umuntu uyikora. Hano rero hari akantu kaboshywe n'intoki, gashobora kwifashishwa haterekwamo ibintu bitandukanye.

Ubugeni ndetse n'ubukorikori na byo ni umwuga ushobora guhesha ubuzima cyangwa se amafaranga umuntu ubikora, urugero hano ndahabona ihembe, ndahabona akantu ashushanyije nk'ikarita ya Afurika, ndahabona igikombe nacyo gikozwe mu ihembe kandi aho hateretse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'intebe, imeza n'ibindi.

Abana b'abanyeshuri bari mu ishuri ubona ko barimo kwiga baganira ku masomo yabo ku bintu bitandukanye, abegereye hakuno bambaye imyenda y'imikara bicaye ku ntebe z'icyatsi.

Abanyeshuri bari mu cyumba kitabona neza bari kwiga bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi ndetse imbere yabo hari ameza, aha ni muri kaminuza kandi hari n'amarido afite ibara ry'ubururu bw'ijimye.

Abantu bicaye mu buryo butandukanye, ku meza imbere yabo hateretseho amakaye ndetse n'impapuro n'amakaramu bisa nk'aho bari mu kizamini bari gukora.

Icyumba kirimo abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye ku ntebe z'icyatsi imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, amakayi ndetse n'amakaramu, kandi hari umwarimu uri kubigisha ku bijyanye n'ubukungu.

Mu mashuri ya kaminuza bitewe n'uburyo haba hari ibyumba byinshi byo kwigirwamo, usanga kugira ngo umunyeshuri ataza kuyoberwa aho ari bwigire, bahashyira ibirango kugira ngo aze kuhamenya. Usanga hari igihe bahashyira imibare, amagambo n'ibindi.

Mu mashuri ya za kaminuza ndetse n'ayigisha iby'ubumenyin ngiro, usanga hari abiga ibijyanye n'imitako ndetse n'ubugeni. Iki gikuta giseze ry'umweru, kandi hariho imitako igiye itandukanye iri mu bi bitenge birimo ibara ry'icyatsi, umukara, n'ayandi.